Farumase bacururizamo ibintu by'imiti. Hazamo abantu bagiye batandukanye bajya kugura imiti no kwivuza, ni imiti itandukanye y'ubwoko bwinshi, mudukarito natwo tugiye dutandukanye.

Inzu nini kandi nziza bacururizamo imiti itandukanye y'amoko menshi, imwe iri m'uducupa indi iri m'udukarito.

Ibiti byinshi biri inyuma n'ibimera by'imiharavumba, bavurisha umuntu yavunitse cyangwa yarwaye inkorora. Hakabamo n'utundi twatsi dutoya turi munsi y'iyo miharavumba.

Ibimera cyane by'ibyatsi bita amatovu, ku ruhande cyane ari intobo kandi n'utwatsi dusanzwe n'ibiti bigiye bitandukanye.

Igihingwa cyiza kizana uturabo tw'umutuku. Cyameze n'umuharavumba ku ruhande, aho wifashishwa mu kwivura n'utwatsi hasi duto duto.

Umurima munini wiganjemo amabuye n'ibyatsi by'ibimera, muri ibyo byatsi harimo icyatsi kivura kivamo umuti, giteye birimo bikeya hakabamo n'ibindi byatsi bisanzwe byinshi.

Umurima witaruye urimo ibiti by'imigano, amasipuri n'inturusu, ku ruhande cyane hari utumera tw'ibigori, hari ibyatsi biri gutangira kumera.

Igisura ni kimwe mu byatsi bimera ahantu hari ikigunda, kitaboneka ahantu henshi cyane kandi kibaba cyane, kikaba kidakundwa na buri muntu wese.

Ikimera kimwe kivura zimwe mu ndwara Abanyarwanda dukunze kurwara, kiri mu rutoki, urwo rutoki harimo insina nziza, inyuma hari ibindi byatsi na byo byagiye biramera.

Umurima uteyemo igihingwa cyiza cyane iteke, riboneka cyane mu giturage amateke bakaba bakunze kuyita amagumba.

Bimwe mu bidukikije harimo ibigori, ibihaza, sipuli, ibihingwa muri rusange. Amasoya, bimwe mu bigize ibidukikije harimo n'ibigori byo kurya, n'ibihaza kenshi na sipure.